Umugabo uhetse imashini itera umuti mu mugongo, akaba arimo gutera umuti ibihingwa mu rwego rwo kugira ngo abirinde kuba byaterwa n'udukoko, iyo umuntu ateye umuti ibihingwa bikura neza.

Amacupa menshi atandukanye ndetse n'amashashi, byose bikaba bibikwamo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura abantu barwaye indwara zitandukanye, harimo amacupa magufi ndetse n'amaremare, inyuma hakaba hari amashashi abiri.

Abantu bahetse amapombo mu mugongo akaba ari abantu babiri bahagaze mu kibaya gihinzemo umuceri, barimo kuhira mu rwego rwo kugira ngo umuceri ukomeze kumererwa neza. Umuceri aba ari ngombwa ko witabwaho cyane kuko ugomba guhingwa mu mazi, ariko nanone ugaterwa imiti kugira ngo utazangirika.

Umusore ufite ingemeri mu ntoki, akaba ahagaze iruhande rw'icyobo kirimo amazi, bisa naho amaze kuyadaha. Inyuma yaho hateye insina nyinshi.

Abantu benshi bahagaze iruhande rw'icyuzi. Bikaba bigaragara ko bashobora kuba baje kuroba amafi. Inyuma y'icyuzi aho bahagaze, hari isambu irimo ibyatsi byinshi cyane. Hakurya hari inyubako nini yubatse mu buryo bugezweho, isakaje amabati ajya gusa n'umutuku.

Ibase irimo amafi menshi, amafi n'inyama zikomoka mu nyanja, abantu benshi bakunze kurya babibwirijwe n'abaganga kuko zigira inyama z'umweru kandi inyama z'umweru ni nziza cyane kuko na ba bantu baba barwara imivuduko nizo babashishikariza kurya.

Abantu bane bari mu mazi bakaba bafite inshundura mu ntoki zabo bisa n'aho barimo gutega amafi, hakurya hari ibihuru bihateye bisa n'aho ari byo bikikije umugezi.

Abantu bari mu murima w'icyayi bakaba barimo gusoma icyayi, mu rwego rwo kugira ngo kijyanwe mu ruganda ubundi gitunganywe. Hari umugabo wunamye uhetse igitebo mu mugongo kirimo icyayi, akaba yikenyeje ishashi kugira ngo adatoha.

Umugabo uhagaze wambaye ishati ya karokaro irimo amabara y'umweru n'umukara, akaba yambaye ipantaro imufashe cyane y'umukara ahagaze imbere y'icyapa cy'umukara cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, akaba ahagaze ahantu hasa nko mu ishyamba hari ibiti byinshi.

Ababyeyi babiri bari mu cyayi, bakaba barimo gusoroma icyayi, icyayi ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu Igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite, kubera y'uko gisoromwa kigatunganywa ubundi kikoherezwa mu mahanga maze u Rwanda rukabona amadovize.

Uducupa twinshi cyane, duteretse ahantu hamwe akaba ari uducupa dusa, twose dufite imipfundikizo y'umutuku tugiye turiho n'ibyapa bisa bigaragara ko ari uducupa dukoreshwa kwa muganga mu kubika amaraso mu gihe hari amaraso yavomwe mu murwayi.

Igikoresho kitwa itunayi, kikaba kifashishwa mu kuzinga ibyuma mu gihe abantu barimo kubaka, hanyuma bakagera aho bakenera kuzinga ibyuma, igihe umuntu arimo kubaka aba ari ngombwa ko akenera kubakisha ibyuma kuko inzu ye iba ikomeye cyane.

Amacupa menshi atandukanye akaba ari amacupa ari mu mabara agiye atandukanye hari amacupa y'umweru afite imifuniko y'umutuku, hakaba hari n'icupa rimwe ry'umweru rifite umufuniko w'icyatsi iruhande rwaho hari andi macupa maremare asa ukwayo no hino hari andi macupa bisa naho ari amacupa abikwamo imiti.

Icyumba kirimo ibikarito byinshi bigerekeranyije akaba ari ibikarito biri mu mabara atandukanye, iruhande rwabyo hakaba hari indobo zigerekeranyije zigiye ziriho ibishushanyo by'inka bigaragaza ko haba harimo amata y'ifu.

Uducupa twinshi tw'umukara dufite imifuniko y'umutuku, tukaba duteretse ahantu hamwe, mu rwego rwo kugira ngo ducungirwe umutekano. Tugiye turiho ibipapuro bigaragaza serivisi bukoreshwamo . Hakaba hagiye hariho n'imibare igaragaza ingano y'ibintu bikwiye kujyamo.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'ibigori, ibigori akaba ari kimwe mu bihingwa ngengabukungu kuko bifasha abaturage ndetse n'igihugu kwihaza mu biribwa, bityo ugasanga igihugu giteye imbere kandi nta nzara ikirangwamo.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko barimo gukora igikorwa cy'umuganda. Umuganda ni ingenzi cyane, kubera yuko ufasha abaturage kwiyubakira igihugu cyabo, ndetse no kugiteza imbere kandi bakanubakira abatishoboye, hamwe no gutera ibiti.

Abantu basutamye, harimo n'umupolisi, bikaba bigaragara ko barimo gutera ingemwe runaka, bisa naho bari mu gikorwa cy'umuganda, hirya yabo hakaba hari isambu iteyeho ubwatsi bw'urubingo rwifashishwa mu kugaburira amatungo.

Abantu batandukanye bari mu murima bikaba bigaragara ko ari abahinzi. Hari umugore uhagaze ufite igihaza mu ntoki kimeze nka wotameloni, hirya yabo hari ikibaya bigaragara ko nacyo gihinzemo imyaka.

Ibirayi byinshi birunze ahantu hamwe bikaba bisa naho ari nk'ikiro kibiri cy'ibirayi, ni ibirayi biri mu bwoko bwa mabondo biteretse ahantu mu isambu bisa n'aho ariho bamaze kubikura.

Insina ebyiri za poyo ziteye iruhande rw'inzu ituwemo n'abantu, muri izo nsina hakaba harimo insina imwe ifite igitoki iteye iruhande rw'inguni y'inzu. Poyo akaba ari igitoki abantu bakunze kuryamo imineke.

Umurima uhinzemo umuceri, umuceri akaba ari igihingwa ngangurarugo, kuko iyo umuntu afite umuceri mu rugo iwe, habe kongera guhura n'inzara kubera yuko abona ibyo agaburira abana. Umuceri uhinze mu kibaya.

Isambu ihinzemo ibihingwa bitandukanye hakurya hari imisozi igiye irimo utubande bisa naho nta bihingwa bihahinze, hejuru hari ikirere kiganjemo ibicu bisa naho kiri buze gutanga imvura.

Igiti cy'amaronji kikaba kiriho amaronji menshi cyane, ku buryo ushobora kuza ugasarura ubundi ukayajyana mu isoko, ku ruhande hariho amababi menshi atandukanye agaragaza ko ari igiti cyafumbiwe neza.

Ibigori byumye byahetamye bigaragaza ko bigeze mu gihe k'isarura, ibigori ni ibihingwa ngengabukungu kuko byifashishwa mu rwego rwo guhashya inzara, akaba ari ibigori biteye mu isambu irimo ibyatsi bikeya cyane bigaragaza ko ari ubutaka bufumbiye.

Indimu ni urubuto rw'ingenzi cyane kubera y'uko rwifashishwa mu kwirinda indwara zitandukanye akaba ari urubuto abantu benshi bakunze kurya cyane cyane abantu bamaze gusobanukirwa umumaro warwo.

Urwuri rurimo inka nyinshi zitandukanye, inka zikaba zirimo kurisha mu rwego rwo kugira ngo zimere neza kandi zibone umukamo, hakaba harimo n'ibiti bizifasha kubona umuyaga n'amahumbezi.

Ahantu hari umurambi, hakaba hari imisozi idahanamye cyane, hagiye hari ingo zimwe na zimwe zihatuye, hateye kandi ibiti byinshi ubona ko ari ahantu hari umuyaga mwiza ndetse n'amahumbezi.

Umurima urimo ibihingwa hakaba hateyemo n'ibiti, akaba ari ibiti byo mu bwoko bwa barakatsi, hakurya y'ibi biti hari igicu kiganje bigaragara ko hari buze kugwa imvura.

Abantu bari mu ikawa. Ikawa akaba ari kimwe mu bihingwa ngengabukungu. Iyo umuntu abyitaho cyane bimuteza imbere kandi bigateza imbere n'igihugu. Hari umugabo wambaye ingofero y'umukara umupira wa maboko magufi w'umweru n'ipantaro y'umukara hamwe na bote urimo gukorera ikawa.

Abantu babiri bigaragara ko umwe arimo kugurisha inyanya undi akaba ari umuguzi. Inyanya ni ingenzi cyane kuko ziryoshya ibiryo kandi zigatuma ibiryo bitukura. Rero nawe nagushishikariza kujya ukunda kugura inyanya ukazishyira mu biryo ugiye guteka kuko inyanya ari nziza cyane.

Imyembe iteye ku buryo bwa kijyambere, akaba ari imyembe myinshi cyane iteye ku murongo. Yareze igeze mu gihe cy'isarura, ku buryo ushobora kuza ugasarura maze ukayijyana ku isoko ugacuruza bityo ukabona amafaranga ubundi ukiteza, imbere.

Igiti cy'amapapayi kikaba kiriho amapapayi menshi cyane ku buryo ushobora kuza ugasarura ukayajyana ku isoko ubundi nawe ukabona amafaranga. Amapapayi ni ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu kuko ari imbuto nziza zituma umubiri umera neza.

Imboga n'imbuto by'amoko atandukanye, hakaba hari pome, hari urusenda, hari inyanya, hari shufureri, hakaba amashu, hakaba kurujeti ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umugabo ufite umupira mu ntoki akaba ahagaze mu isambu ihinzemo amashu, arimo kuhira amashu mu rwego rwo kugira ngo akomeze kumererwa neza kandi akure neza, hakurya hari umusozi uteyeho ishyamba.

Imashini yuhira ikaba irimo kuhira imyaka mu rwego rwo kugira ngo imyaka ikomeze gutoha n'ubwo yaba ari mu gihe cy'izuba wifashisha imashini yuhira bityo bigatuma imyaka yawe ikomeza gusa neza kandi igakura neza.

Umurima uteyemo ibihingwa, hakaba harimo imashini zuhira, mu rwego kugira ngo bitazicwa n'izuba, hakurya hari umusozi, uriho ibyatsi ndetse n'ibiti bitarakura neza, bisa n'aho ari ahantutu hari urwuri.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, hakaba harimo imipira yifashishwa mu kuhira mu rwego rwo kugira ngo, ibihingwa biteyemo bitazigera byuma, ahubwo bikomeze bitohe . Hakurya y'ibihingwa hari ibiti bitandukanye bikurura umuyaga n'amahumbezi.

Umubyeyi w'umumama akaba afite indobo mu ntoki, arimo gusuka amazi mu mboga, bisa n'aho arimo kuhira, inyuma ye hari ibiti ndetse n'insina, hakaba hari n'utwatsi twumye bisa n'aho ari mu gihe cy'izuba.

Umubyeyi w'umumama ubyibushye afite umupira mu ntoki ze, arimo kuhira urutoki. Hari insina ubona ko zimeze neza zitabwaho cyane. Kuhira ni ingenzi cyane cyane mu gihe k'izuba kugira ngo ibihingwa bikomeze kumererwa neza nubwo imvura yaba itarimo kugwa.

Ahantu hari amaterasi ateyeho ibiti bitandukanye, bikaba bigaragara ko ari ahantu mu cyaro hari ikibaya, hakurya hari umusozi bisa n'aho ari ibirunga, hejuru hakaba hari ibicu byiganje.

Umusozi uteyeho ibintu bitandukanye hakaba hariho ibiti bimeze nkaho ari ishyamba, hari ingo z'abantu bahatuye, hakurya hari ikibaya, hejuru hakaba hari ikirere kirimo igicu kiganze, bisa nkaho nta mvura iribuze kugwa.

Ingurube akaba ari itungo abantu bakunze korora kubera y'uko ryororoka vuba kandi iyo ribyaye ribyara ibyana byinshi, uba usanga ari itungo abantu benshi bakunze korora kubera y'uko rituma umuntu atera imbere vuba.

Inyubako yubakiwe amatungo hakaba harimo inka y'inyambo iryamyemo, inka z'inyambo uba usanga ari inka z'inyarwanda zifite amahembe maremare, kandi zikunze kugira umubyimba muremure.

Ishyo ry'inka akaba ari inka nyinshi cyane ziri mu rwuri zirimo kurisha. Hirya hari ibiti zugamamo agacucu ndetse ibyo biti bikaba bizifasha kubona umuyaga n'amahumbezi. Hejuru hari ikirere kiganjemo ibicu kitaribuze gutanga imvura.

Inyubako yororerwamo inkoko. Ubworozi bw'inkoko akaba ari ubworozi bwiza cyane kubera yuko buteza imbere umuntu mu buryo bwihuse. Uba usanga inkoko itera igi buri munsi. Wabara ukwezi ugasanga n'amagi mirongo itatu rero iyo ufite inkoko nyinshi uhita utera imbere.

Inka nyinshi ziri mu rwuri mbese ubona ko ari ishyo, ziri mu rwuri ubona ko rurimo ubwatsi bwiza butoshye, hirya yaho hari ibiti byiza iyo zishaka kugama agacucu ziryama munsi.

Inka nyinshi cyane cyangwa se ishyo, ziri mu rwuri bigaragara ko zirimo kurisha mu rwego rwo kugira ngo zibone ibyo kurya ndetse zongere umukamo, urwuri ni ahantu usanga inka zirishiriza.

Umukobwa uhagaze muri pepinyeri, pepinyeri akaba ari ahantu binariza ingemwe nyinshi z'amoko agiye atandukanye, mu rwego rwo kugira ngo zitabweho zikiri ntoya, hanyuma nizimara gukura zizajyanwe ahantu hatandukanye guterwa.

Abagabo bunamye ku nka hakaba hari umugabo bimeze nk'aho ari umuganga w'amatungo cyangwa se veterineri urimo kudoda inka nyuma yo kuyibyaza, iyo barimo kubyaza inka ikanga kubyara muganga arayibaga agakuramo inyana.

Abantu batandukanye bambaye ibisarubeti bakaba bari mu kiraro cy'inka, bisa naho baje kuvura inka. Imbere yabo hakaba hari inka y'umukara iriho amashogororo bisa naho'ho irara mu ijagiro.

Abantu barimo gukingira amatungo, hakaba hari umuganga w'amatungo ndetse n'undi musore wambaye imyenda y'ubururu urimo kumufasha kugira ngo abone uko atera inanga inka.

Inka nini iryamye mu isambu iruhande rwayo hakaba hari umugabo usutamye uteruye umutavu , bisa n'aho yarari kuyibyaza hirya hakaba hari izindi nka bakaba bari mu rwuri.

Ingwe iryamye ahantu mu byatsi akaba ari mu gihuru, ikaba irimo kureba bisa naho ishonje itonye amabara akaba ari inyamaswa mbi cyane y'inkazi kuko uyiyenjeje yakumerera nabi cyane.

Inyamaswa ebyiri ziri mu kibaya, akaba ari ingurube z'ishyamba, abenshi bakunze kwita isatura. Zikaba ziri mu mabara y'ikigina, ziri mu kibaya giteyemo ubwatsi, busa naho bwumye wagira ngo hateye amapfa.

Intare zashotse zirimo kunywa amazi, akaba ari intare imwe nini ifite n'ibibwana byayo byinshi, intare ni inyamaswa y'inkazi kuko kirazira kuyikinisha.